Umwana w'umuhungu ufiteta agakombe urimo kuvoma amazi ku kigega gisa n'umukara cya pulasitiki ndetse akaba ari amazi bigaragara ko ashobora kuba ari ay'imvura afatwa aturutse ku mireko yo hejuru y'amazu atandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe biganjemo abagabo n'abagore, ndetse n'urubyiruko muri rusange barimo guhabwa amabwiriza, ndetse abenshi banafite amakaramu naho bagenda bayandikisha.

Umukobwa ukuze wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu bwerurutse, impandeye hicaye akana kagiri gatoya cyane, barimo gukoresha ibivovo batega amazi atemba hasi ndetse bafite n'ikivomesho cyo mu ibara ry'umuhondo, bari gutega amazi yanduye, atemba, kugira ngo bajye kuyakoresha bikagaragaza ko hano hantu hari isuku nkeya.

Umugore wambaye agapira ka move harimo utubara t'ubururu, ndetse n'umweru, n' ingogofero y'ubururu. Akaba akenyeye igitenge cy'icyatsi kibisi numugore uri ku ivomo arimo kuvoma amazi yo kuza gukoresha, hirya ye hakurya hari imisozi iteyeho ibimera bigiye bitandukanye birimo n'amashyamba.

Umwana mutoya uzinze imisatsi neza, wambaye ikanzu ikoze mu gitenge gisanzwe ndetse ari gukaraba amazi meza mu ntoki, ari gukaraba amazi ajya mu ibasi y'umukara, ndetse aya mazi nkuko bigaragara ari kuva mu ivomo rya nayikondo ku gice cy'imbere nk'uko bigaragara.

Abenshi barizi ku izina rya niyikondo, ni ivomo rikoreshwa umuntu agenda amanura icyuma cy'inyuma yongera akizamura cyane cyane bikaba byakoreshwa ahantu h'imirambi ndetse bigoye ko amazi yava hasi mu kuzimu, bigasaba ko umuntu agenda ahuha cyangwa se ahaga, umwuka uyazamura uyakurura kugira ngo akoreshwe akaba amazi meza.

Abaganga babiri bakikije umudamu barambitseho igitenge ku nda, umwe ari gutega amatwi ku nda y'umubyeyi bigaragara ko bari kumva uko umwana mu nda amerewe, ndetse uyu mubyeyi agaragaza ko akeneye gukomeza kwitabwaho.

Ibiganza by'inzobe biri gukaraba ku ivomo, biri gukaraba intoki, ndetse biri gukaraba amazi meza, nta kindi kigaragara uretse ayo mazi ndetse n'ivomo.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu buryo bw'amatsinda ndetse bakaba biganjemo abagabo n'abagore, ndetse ibigaragara ni uko abenshi ari urubyiruko, nta musaza ugaragaramo ndetse nta n'umukecuru ugaragara bose baracyari urubyiruko.

Umugabo mu ikoti ryiza na karavate ari kumwe n'umudamu w'umuzungu ndetse kandi biragaragara ko hariho impano umwe ari guha undi, handitseho Visit Rwanda mu ndimi z'amahanga, hakaba kandi n'abandi baterankunga bagaragara ku bishushanyo biri impande yabo.

Ababyeyi bazanye abana kwa muganga aho bari guhabwa inkingo mu buryo butandukanye cyane cyane nk'igitonyanga cyo mu kanwa baha umwana hagamijwe ku mwongerera ubudahangarwa, binyuze mu rukingo muri gahunda bigaragara ko yishimiwe kandi yitabiriwe cyane.

Abantu bari ku gishushanyo cyerekana abagore babiri ndetse n'abagabo batatu, kikaba kigaragaza uburinganire bugaragara mu nzego z'ubuvuzi ahantu hatandukanye ku isi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro bigaragara ko yishimye ari ku ivomo, afashe ku ijerekani ye y'umuhondo ifunguye ategereje kuvoma ariko na none wareba ukabona ashobora kuba yarangije kuvoma kuko arishimye.

Abanyeshuri bari mu mpuzangano zabo, bafite udukombe turi mu mabara y'icyatsi n'ubururu, barimo kunywa amazi bakuye mu kigega cy'umukara, bigaragara ko ari amazi ava mu mireko yo hejuru y'amazu.

Intebe z'ubururu ziri ndetse no mu mabara y'umweru bigaragara ko zikiri shyashya, ziteguye kwakira abarwayi kuko bigaragara ko ziri ahantu mu bitaro bitari byarakoreshejwe. Hafite isuku kandi igihe cyose abarwayi baza bigaragara ko zakoreshwa neza kandi zikagira umumaro mu gihe gikwiye.

Abagore bari kumwe ahantu mu nzu bakoze ibikorwa bitandukanye birimo gushushanya ndetse n'ibindi bitandukanye, bagaragaza ko barimo kwiteza imbere ndetse kandi bishimiye ibibahuza, ndetse kandi bakaba biteguye no kubera abandi intumwa batabashije kuza kwifatanya na bo. Umugore mu iterambere ry'ubuzima.

Umupira w'amaboko magufi usa n'ibara ry'umweru ndetse ku ikora hejuru hariho ibara ry'ubururu ndetse n'uduce duto two ku maboko yawo hariho amabara y'ubururu bwijimye hariho amagambo agiye atandukanye agaragara cyane hariho agaragaza inyuguti ya ra, pa na sa ndetse hakabaho i na na mu nyuguti ntoya.

Umugore w'inzobe wambaye ijire, afite agapfumunwa ku kuboko yagakuyemo ntabwo akambaye, yicaye impande y'undi mugore ufite agakayi n'agakaramu ari kwandika mu gakayi ke ndetse n'abandi bagore n'undi mugore inyuma ye umukikije, n'undi mugabo hirya ahagana inyuma, bose bicaye bari mu nama, uyu mugore aragaragara nk'uri gutanga igitekerezo ke.

Abantu benshi bari mu mpuzangano ziganjemo iz'amabara y'icyatsi, utwo dupira dutoya ndetse n'amapantaro y'imikara ndetse hari n'abambaye imyenda ya giporisi, bigaragara ko ari abaturage ndetse n'inzego z'umutekano ziri mu bukangurambaga bugamije kwibutsa abantu kwirinda ihohoterwa, banabibutsa ko ari inshingano za buri wese, bafite n'imizindaro bifashisha.

Abagore bambaye imyenda igiye itandukanye ariko yiganjemo amakanzu bambaye n'ibirango by'akazi bigaragara ko bari mu mahugurwa hamwe mu nyubako nini nk'uko bigaragara ndetse aba bagore bafite amacupa y'amazi ku meza bicaye bagaragiye ndetse hari n'intebe nziza ziriho n'izikozwe mu myenda.

Umugabo ufite igikoresho gifata amajwi cya mikorofone, urimo gutanga inama zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'amazina ariho aragaragaza ko yitwa Uwihoreye Chaste, ndetse bikagaragaza ko ari kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze.

Umugabo w'inzobe ufite ubwanwa butoshye cyane, ubwanwa bw'umukara, ndetse akaba ari umugabo wambaye imyenda yera, n'amataratara meza, yambaye iherena ku izuru, ndetse afite amenyo asukuye bigaragara ko yogeje neza.

Umusore w'inzobe ufite amenyo yogeje neza amenyo asukuye, afite urudodo ari kugenda arucisha hagati mu menyo ye, ariko birasa nkaho ari ikintu ari gukuramo.

Umusaza bigaragara ko yirabura, bigaragara kandi ko aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, ararembye cyane yewe akenewe, akeneye n'ubufasha, kandi hari n'ibyuma byabugenewe byifashishwa mu kwita ku barwayi, biri iruhande rwe, ndetse ari kumwe n'abaganga bashinzwe kumwitaho, ndetse no kwita k'ubuzima bwe.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru afite n'inkoni y'abasaza inshyirimbo mu ntoki, yambaye impeta ndetse afite imvi z'uruyenzi ari kumwe n'umuganga uri kumuganiriza bigaragara ko bose bishimye.

Umusaza wambaye ingofe rero amataratara ndetse ari kureba hirya afitetiye urupapuro rw'umweru rwandikishijeho rwandikishijeho ikaramu ye y'ibara ry'umutuku yiyerekana amagambo ari mu cyongereza yenekereje mu kinyarwanda biragaragaza ko ari urukingo rwabonetse kuri buri wese rukingira ubushita bw'inkende.

Ikimenyetso kiriho amabara atandukanye iry'umutuku, ubururu bwererurutse, icyatsi cyerurutse ndetse n'ubururu buri mu rugero, ndetse n'irindi bara ritagaragara neza bigaragaza ko bari kugaragaza gukangura amajwi mu bijyanye n'ubuzima.

Umuturirwa ugeretse inshuro imwe uri mu mabara y'umweru n'ibirahure byiza kandi biragaragara ko haparitse n'imodoka, hafi aho hari ubusitani bwiza ndetse ni ahantu bigaragara ko hari akayaga keza kuko hanateye imikindo. Imbere y'iyi nyubako hari ikirere cyiganjemo ibicu by'umweru ndetse n'ahandi hari ibindi bikeya.

Ngo ni inyubako igaragara, ahantu heza cyane iri mu ibara ry'umweru ndetse harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu bitaro ndetse n'ahandi hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi, harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye ndetse n'igitanda cy'abarwayi.

Abagore babiri bari kumwe ahantu mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga, umubyeyi umwe ateruye agahinja bigaragara ko kamaze igihe kitari kinini cyangwa se amasaha atari menshi kavutse, biragaragaza ko bari mu bitaro.

Inyubako ihanitseho imbere yayo amabendera abiri atandukanye harimo n'iry'igihugu cy'u Rwanda ndetse iyi ikaba ari inyubako igaragaza ko ari ivuriro nk'uko bigaragara ndetse rikaba rifite isuku cyane n'inyubako nziza cyane bigaragara ko itari yakoreshwa igihe kinini.

icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe zitandukanye n'ameza agiye atandukanye mu mabara atandukanye. ameza y'umukara, umweru, ndetse n'ikigina. Hakabamo kandi n'indabyo ziteye mu macupa agiye atandukanye muri iki cyumba cy'uruganiriro ndetse izi ndabyo ziri mu cyatsi kibisi cyane.

Inyubako nziza ziri ahantu hitaruye izindi ndetse bigaragara ko ziri zonyine, kandi ziri ahantu hari ubusitani bwiza kandi butoshye burimo indabyo z'amoko agiye atandukanye, biragaragara ko ari inyubako z'ubuvuzi.

Inyubako nziza kandi nshyashya igaragaza amarangi meza inzugi nziza, ndetse ibimenyetso byinshi biragaragaza ko ari ibitaro cyangwa se ahandi hantu kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ibindi.

Inyubako igizwe n'igice cyo hasi gifite amatafari ahiye, hejuru hariho igice kiriho umucanga ariko hasizeho amarangi y'umuhondo ndetse inyubako isakaye, iriho umurasire w'izuba hejuru ndetse hari n'indabyo zo mu busitani zisa n'umuhondo, ziconze neza, kandi zimwe zisa n'icyatsi ndetse kandi hariho n'amagambo yanditse ngo, Ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Inzu igeretse inshuro zirenze imwe, ikaba ari inzu nini igaragara neza cyane. Ni inzu nini ifite amabara y'umweru ndetse hari n'ubusitani bwiza burimo indabyo z'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi. Haparitse imbere imodoka, harimo ibikombe birimo indabyo zigezweho ndetse bigaragaza ko ari inzu ikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi.

Umuganga ufite igikoresho cyifashishwa bapima umubyeyi utwite, ndetse n'agakaye yandikamo ibisubizo abona, yambaye amataratara ndetse kandi ari kumwe n'umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu, akaba yifashe ku nda, hirya naho hari akana gatoya, bigaragara ko yamusanze iwe mu rugo.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye agapira k'amaboko magufi ari kunywa amazi, uyu mugabo arirabura kandi bigaragara ko akora siporo kenshi.

Ikizingo kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse cyane, kikaba kigaragaza umwenda uzinze ariko wifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo cy'imvune, bakabikora babasha guhambira ahantu havunitse kugira ngo bongere begeranye amagufwa yagize ikibazo.

Umugabo cyangwa se umusore ufite icupa ry'amazi arikuyanywa, biragaragaza ko ari umuntu ukora siporo, mu buryo buhagije cyane rwose ndetse afite n'udukoresho bifashisha bumva amajwi, badushyize mu matwi.

Umwana bigaragara ko ari uw'umukobwa bigaragara kandi ko izuba ryari rmwishe afite n'inyota kandi wagirango ngo yari ari muri siporo none ubu ngubu afite icupa ry'amazi ari kunywa kugira ashire inyota. Hari n'izuba ryinshi cyane nk'uko bigaragara.

Umusore uhagaze mu bikoresho bitandukanye byiganjemo ibitanda byo kwa muganga bifite amapine, bigenderaho ndetse yambaye inkweto z'umweru, ipantalo y'ikigina n'agapira katagaragara neza akaba ndetse anambaye udupfukantoki tumufasha gukora neza imirimo ye atiyanduje.

Umuntu ufite ivi bigaragara ko ryavunitse ndetse kandi rikeneye ubuvuzi bukoresheje siporo. Kugira ngo akire biramusaba ko azajya akora siporo nk'uko yabibwiwe na muganga kandi mu gihe yamubwiye ndetse n'aho agomba kuyikorera.

Umusore w'ibigango uri guterura ariteri ufite amatuza manini ndetse bigaragara ko yubatse umubiri ku rwego rwo hejuru, iruhande rwe akaba akikijwe n'ibiryo by'amoko atandukanye ndetse hakabamo n'icupa ry'amazi, hari ibishyimbo, ubunyobwa, amagi, imboga ndetse na za karoti, avoka, hakabamo inyama ndetse n'ibindi.

Isekuru n'umusekuzo cyangwa se umuhini, impande bikaba byose bikikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye n'izindi mbuto zirimo tungurusumu, ubunyobwa ndetse n'ibindi bibikikije.

Abayobozi bahagaze hamwe, bigaragara ko baje gusura kampani cyangwa se undi muryango utegamiye kuri leta cyangwa se irindi tsinda rishobora kuba ari nka koperative, barimo kwerekana uburyo harimo guhingwa ibimera birimo ibikakarubamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Utujerekani turi mu mabara atandukanye kamwe n'umuhondo akandi ni umweru ndetse hari n'inyuguti zandikishijwe amabara atandukanye harimo ay'umuhondo ndetse n'ay'umutuku. Aha hariho ikimenyetso kigaragaza ikimera cy'igikakarubamba bikagaragaza ko ari imiti irimo ikozwe muri iki kimera, cy'igikarubamba. Bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera by'amoko agiye atandukanye bikaba byarifashishwaga mu buvuzi gakondo ndetse na n'ubu bikaba bigikoreshwa.

Umugore wipfutse igitambaro cy'umweru akaba yambaye n'ikirango kigaragaza umurimo akora, bigaragara ko ari mu iduka ricuruza imiti itandukanye igiye iri mu macupa, hari n'umugabo uri imbere ye bigaragara ko nawe ari umuguzi uje kugura.

Ibikoresho biragaragara hano byerekana imiti ivamo imiti yifashishwa mu kuvura uburwayi bw'uruhu ndetse hakabaho n'abantu bafite impu zifite uburwayi butandukanye bakeneye ubwo bufasha hifashishijwe iyi miti ikomoka ku bimera gakondo kugira ngo bakire vuba.

Amacupa atandukanye amato n'amanini harimo ay'umuhondo, imyeru ikaba yiganjemo kurushaho. Ni uducupa dukoreshwa habikwa imiti itandukanye yifashishwa mubuvuzi gakondo ndetse kandi ibitse mu buryo bwiza kandi itondetse neza ku murongo aho igaragara ku meza.

Icupa rigaragaza ko hashushanyijeho ubuki. Ni ukuvuga ko iri cupa ririmo ubuki kikaba ikimenyetso na cyo cy'umuti gakondo wifashishwaga mu bihe byo hambere, ndetse no muri ibi bihe ahantu hagiye hatandukanye.

Icyatsi bigaragara ko gitoshye kandi kiri mu butaka bwiza cyane. Ni icyatsi cyo mu bwoko bw'umuravumba nk'uko bigaragara, ndetse kikaba cyarifashishwaga mu minsi ya kera mu bihe byashize nk'umuti wa gakondo. Ndetse n'ubu ukaba hari aho ugikoreshwa.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyararabye ndetse indabyo zimwe na zimwe zamaze kuma izindi zirahunguka ahubwo hatangira kuzaho imbuto, izi mbuto ziri mu ibara ry'umuhondo, izindi ziri mu ibara ry'icunga rihishije.

Ikimera kirimo ibara ry'icyatsi kibisi kikaba gitoshye kandi bigaragara ko cyishimiye ubutaka kinabona intungagihingwa zihagije, ni icyatsi cyifashishwaga mu bihe byo hambere mu buvuzi gakondo yewe n'ubu ngubu kikaba gishobora gukoreshwa mu buvuzi gakondo ndetse kigakorwamo n'imiti igezweho.

Icupa ry'umuhondo rifite ibimenyetso byo mu nyuguti z'umutuku n'umupfundikizo w'umutuku ukikijwe n'ibimera byo mu bwoko bw'igikakarubamba bigaragaza ko iri cupa ari ririmo imiti ikoreshwa mu buvuzi ikomoka kuri iki kimera k'igikakarubamba bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo.